Icyumba giteraniyemo abagabo biragaragara ko imbere yabo hari umugabo wambaye ikote, akaba afite ibyo ari kubasobanurira bakaba bamuteze amatwi kugira ngo barebe banumve ibyo ari kubabwira.

Agakiriro karimo ababaji bari kuba ibikoresho bitandukanye harimo intebe n'inzugi n'amadirishya, ibi bikoresho bakaba babikora kugira ngo bifashe abantu babyicaraho se, cyangwa babiryamaho.

Umugabo muremure w'imibiri yombi wambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru, akaba afite indangururamajwi mu ntoki bigaragara ko ahagaze imbere y'abantu ari kugira ikiganiro abagezaho, na bo bakaba bamuteze amatwi kugira ngo bumve ibyo avuga.

Abantu bateraniye ahantu bari mu biganiro bikaba bigaragara yuko bahawe igihembo cy'ishimwe cy'umuntu witwaye neza, bakaba bagifite bari kukimurikira abandi babereka yuko bakoze neza kugira ngo nabo ubutaha bazabashe gukora neza bahembwe.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo bicaye ahantu hamwe bigaragara yuko bari ikiganiro bafite bari kuganira kandi aba bantu bakaba bateze amatwi hasa nkaho ari umwe uri kugira icyo abagezaho bakaba bamuteze amatwi ngo babyumve ibyo ari kubabwira.

Umurima munini uteraniyemo abantu, uyu murima kandi uragaragara ko uhinzemo ibihingwa, aba bantu kandi bakaba bagaragara nk'abantu baje kureba uno murima n'ibihingwa byabo niba biri kwera neza.

Abantu bateraniye ahantu imbere yabo hari inanasi zimeze neza bigaragara ko zino nanasi baje kuzimurika nk'umusaruro bagezeho mwiza, izi nanasi uko bigaragara zeze ahantu heza habonetse imvura bityo ziba zisa neza.

Amamodoka manini atwara abagenzi aparitse imbere y'amazu ageretse, bigaragara ko imbere yayo hari abantu bahari aba bantu bigaragara ko ari bo nyirayo bakaba bari imbere y'aya mabisi.

Iduka rinini ririmo ibicuruzwa bitandukanye hakaba harimo umugore n'umugabo bisa nkaho ari banyirabyo, bakaba bari kwakira umukiriya biragaragara ko bari kumuha ibicuruzwa yaje gusaba kandi iri duka rikaba rigifitiye akamaro kanini abantu batuye aha kuko ribacururizaho ibintu bakoresha.

Umugore munini w'umukara wambaye umupira uciye amaboko, yicaye ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye bigaragara ko iri duka ari ryo yifashisha mu buzima bwa buri munsi kuko ari ho akura amafaranga yifashisha agura ibindi bitandukanye.

Umugore w'urukara yambaye umupira w''umutuku urimo amabara y'umweru, akaba ari mu iduka bigaragara ko iri duka akoresha kugira ngo abeho aka aba acuruza ibicuruzwa birimo kandi hakaba hari icyuma gikonjesha ibinkwebwa.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo n'abana, bahagaze imbere y'inzu iriho umusaraba bigaragara ko iyi nzu ari urusengero, bakaba bari bari gusenga bakaba bahasohotse, imbere y'iyo nzu kandi hari urutoki, hirya yaho hakaba hari n'ibiti bigaragara ko aha hantu ari ku rusengero.

Abagore benshi bahagaze imbere hakaba hari abana bicaye bigaragara y'uko, aba bagore bari kuririmbira bano bana kandi hakaba hari imbere yabo imeza iteretseho ibitabo bari kwifashisha barebamo ibyo bakora.

Icyumba cy'urusengero runini rurimo abantu bahagaze imbere, bafite indangururamajwi mu ntoki bigaragara ko hari abandi bicaye bari kwigisha kandi bigaragara ko abo bicaye babateze amatwi kugira ngo bumve ibyo bari kubabwira.

Amazu yubatse neza bigaragara yuko yubatswe n'abantu bazi kubaka kandi hirya y'aya mazu hakaba hari ibiti nabyo bisa neza. Uisibye ibyo biti hari n'indabyo zigaragara neza nk'aho zabonye imvura ihagije bityo zikaba zisa neza.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo ibintu bitandukanye, harimo intebe, harimo ameza, harimo amafoto, harimo amarido, harimo indabyo.

Icyumba gishashe neza kirimo igitanda, kiriho uburiri bigaragara ko iki cyumba gikoreshwa baryamamo, hakaba igitanda kiri mu cyumba kirimo irangi ry'umuhondo kandi iki cyumba kikaba kimanitsemo ifoto hejuru y'icyumba, hakaba hamanitsemo n'inzitiramubu.

Icyumba kirimo umufariso n'igitanda bishashe neza bigaragara yuko iki cyumba abantu bagikoresha baryamamo kandi iki cyumba kikaba cyubatse neza, hirya y'aho mu madirishya hakaba harimo amarido asa neza cyane.

Inzu nziza igeretswe ikaba isize amarangi, imbere yayo hakaba hari ikibuga kirimo ibyatsi, bigaragara ko aha hantu habonye imvura ihagije bino byatsi bigakura neza, aha n'ikirere biragaragara yuko hagiye kugwa imvura.

Icyumba giteguye neza kirimo amarangi y'umweru, kikaba kiriho amadirishya arimo ibirahuri, iki cyumba kikaba kirimo intebe n'ameza ateretseho ibyo kunywa, bigaragara ko iki cyumba bagiteguye hagiye kuberamo ibiganiro.

Icyumba kinini kirimo igitanda gishasheho umufariso, hakaba harimo intebe n'ameza bigaragara ko iki cyumba gitahamo umuntu kandi iki cyumba kikaba gifite urugi, urugi rukaba rukinguye bigaragara ko mo imbere harimo umuntu.

Icyumba kirimo igitanda kiriho uburiri bushashe neza, bigaragara ko aha hantu bahakoresha baharyama, kandi iki cyumba kikaba kirimo ameza ateretseho agacupa karimo amazi, hakaba hariho na telefone itagendanwa, kandi muri kino cyumba hakaba harimo amatara yaka neza.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye, nk'intebe, imifariso, ibitanda kandi hakaba hari n'ameza, bigaragara ko iki cyumba abantu bakibamo kandi muri icyo cyumba hakaba hamanitsemo indorerwamo, abantu bakoresha bireba.

Icyumba kirimo igitanda n'umufariso ubona hashashe neza bigaragara yuko hasashwe n'umuntu wabyigiye, hakaba kandi aha nta muntu urimo bigaragara yuko bahateguye kugira ngo haze kuzamo umuntu.

Icyumba kinini kirimo igitanda n'umufariso hakaba ahantu hashashe neza bigaragara ko hari icyuma abantu bifashisha baryama, icyumba kandi kikaba kiriho ibikuta bisize irangi ry'umweru ahantu hakaba hagaragara ko hasukuye.

Isoko ririmo ibiribwa bitandukanye hakaba harimo abantu benshi bacuruza bino biribwa bikaba bigaragara yuko iri soko rifasha aba bantu kwiteza imbere kuko bagurisha bino biribwa ku bacuruzi nabo baba babikeneye bakabirangura bakabasha nabo kubona amafaranga.

Abantu benshi bateraniye ahantu, bisa nk'aho ari ku isoko kuko hari ibiribwa bitandukanye, bikaba babifite mu mabafu, ibindi bikaba bitanditse hasi bigaragara ko aba baturage bari kugurisha bino biribwa kandi hakaba hari n'abari kubigura.

Umugabo muremure wambaye agapfukamunwa n'umupira w'amaboko maremare usa icyatsi kibisi, afite igare ririho ibintu biri mu mifuka bigaragara ko ari ibicuruzwa azanye, kuko ahantu hateraniye abandi bantu benshi bigaragara ko bacuruza, aha ari mu isoko.

Agace karimo abantu bari kugenda biragaragara ko hano bahakorera ubucuruzi kuko hanze hari ibicuruzwa hakaba hari amazu nyine y'ubucuruzi bigaragara ko ahantu basanzwe bahacururiza kandi mbere yaho hakaba hari amafoto atwara umuriro, bituma aya mazu ajyamo umuriro bityo ukabafasha kumurika.

Ahantu hateraniye abantu benshi barimo abagore n'abagabo, kandi hakaba harimo n'ibicuruzwa bigaragara ko ari mu isoko abantu bakoresha bagura banaranguza, bakaba ariho banakirira abakiriya babo.

Isoko ririmo abagore n'abagabo biragaragara yuko iri soko ririmo ibiribwa bitandukanye, bakaba bari kubicuruza ku bakiriya baje babagana kandi iri soko rikaba ryubatse neza risa n'irya kijyambere, rikaba ryubakishijwe ibyuma risakajwe amabati.

Ahantu hateraniye abantu benshi barimo abagore n'abagabo biragaragara yuko bafite ibicuruzwa kuko hari umusore wambaye umupira w'amaboko maremare n'akagofero gatukura, akaba afite ibikapu mu ntoki bigaragara yuko ari kubigurisha aha hantu kandi hakaba hateraniye abaguzi n'abagurisha.

Imodoka y'umukara iri muri kaburimbo biragaragara ko iri kugenda, hirya yayo kandi hakaba hari amazu bigaragara ko ari amazu y'ubucuruzi abaturage bifashisha bakora ubucuruzi bwabo bwa buri munsi, hirya y'aya mazu kandi hagaragara ibiti birebire.

Umumotari wicaye kuri moto ari mu muhanda asa nkugenda, uyu imuhanda kandi ni uw'ibitaka, hirya y'umuhanda hari amazu bigaragara ko aka gace gatuyemo abantu kuko uri no kubona ko harimo abantu kandi hirya yaho hakaba hari ibiti.

Umumotari yicaye kuri moto, akaba ari kugendera mu muhanda ushashemo amabuye, kandi aho ari hirya y'aho umuhanda uri hakaba hari amazu ameze nk'ay'abacuruzi, hakaba hicaye n'abantu bameze nk'abacururiza muri ayo mazu.

Umumotari ari kuri moto ahetse umugenzi biragaragara yuko bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo , hirya y'umuhanda wa kaburimbo hari akayira k'abanyamaguru kateganyijwe kandi hakaba hakikijwe n'amazu bigaragara ko aha hantu hatuye abantu.